Ahantu hatangirwa ubufasha mu bijyanye n'ubuvuzi, hagaragara umuntu bigaragara ko ari umuganga uri kuvura umwana mutoya cyane, hagaragara ndetse n'abandi bantu benshi cyane, by'umwihariko biragaragara ko baje kwivuza.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kugurisha imiti, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye nyinshi cyane.

Inyubako rusange ikorerwamo n'ibitaro bikuru, aho havurirwa indwara zigiye zitandukanye. Aha ngaha hatangirwa ubufasha ku byerekeranye n'abakoze impanuka, uburwayi busanzwe, ndetse n'ibindi.

Ahantu hatangirwa ubufasha mu bintu bijyanye n'ubuvuzi. Haragaragara umugabo ukora akazi kajyanye no kuvurira ahangaha. Imbere ye hari umugore waje kwivuza, aho ari kumutera urushinge.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda birarwaho n'abarwayi babaga baje kuhivuriza, ikindi kandi ibi bitaro hahuriramo abantu baba barwaye indwara nyinshi cyane, zigiye zitandukanye.

Kimwe mu byatsi byifashishwaga n'Abanyarwanda bo hambere, bakacyifashisha mu gukora imiti yabavuraga muri icyo gihe, iki kimera kizwi ku izina ry'uruteja, aho bagikoreshaga bari kwivura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo yakoreshwaga mu Rwanda rwo hambere. By'umwihariko hagaragara igiti cy'ikibonobono, aho cyavuraga indwara nyinshi cyane. By'umwihariko izijanye no mu nda.

Kimwe mu bimera byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere mu bintu bijyanye n'ubuvuzi ,kizwi ku izina ry'itovu, cyifashishwaga mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Kimwe mu byatsi byifashishwaga mu Rwanda rwo hambere, igihe babaga bari gukora imiti yabavuraga indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko iki ni igicucu, cyavuraga indwara zo mu nda.

Bimwe mu bimera bikomokaho imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, by'umwihariko cyane cyane mu muco nyarwanda, harimo ibitabi tabi ndetse n'amababi y'igihingwa cyitwa shushu, byose bikaba byifashishwa mu buvuzi.

Imwe mu miti ya kera yakoreshwaga mu Rwanda, ikaba ari yo miti gakondo yifashishwaga ivura indwara zigiye zitandukanye, by'umwihariko hagaragara umwe mu miti izwi, cyane cyane igicucu, aho cyifashishwaga bavura indwara zo mu nda by'umwihariko.